Udukinisho tubiri twiza twifashishwa mu kurera abana kugirango batarira, ndetse tubarangaza kandi bakishima ,turi mu bwoko bw'utubebe cyangwa se dufite ibara rya orange.

Ikigo cy'amashuri cyo mu karere ka nyagatare umurenge wa mukama kiriho cyangwa se gifite igicumbi cy'umuco n'indangagaciro z'Abanyarwanda, hariho gukunda igihugu, gukorera ku gihe, kugira umwete, kugira isuku, gukorera ku ntego umurimo unoze kandi ufite ireme, kwihesha agaciro, guhora ku isonga n'ubupfura ndetse n'bindi.

Ibikoresho byiza bigezweho byifashishwa gushushanya ibintu bimwe na bimwe bya guca imirongo cyangwa se n'ibindi ,bikunze kwifashishwa n'abanyeshuri cyangwa se n'abandi bari gushushanya cyangwa se bari guca imirongo igiye itandukanye.

Abakozi bubaka amazu b'aba injeniyeri, bisa nk'aho bari mu nama bari kuganira n'umukoresha cyangwa se uwabahaye akazi, bari kuganira ku bintu bimwe na bimwe bishingiye ku kazi barimo barakora.

Icyumba kiza gikeye, cyabanyeshuri bigiramo kandi kigezweho, kirimo imashini za mudasobwa, zigendanwa nziza kandi zigaragara, ziri mu bwoko bwa hecipi z'umukara.

Inama, inama y'igihugu y'urubyiruko ishobora kuba ari iy'akarere, iy'umurenge, iy'akagari cyangwa se niy'intara, ariko igamije guteza imbere abayirimo cyangwa se abayitabiriye ndetse n'abandi bose bagaragaramo gusa.